Mu buryo bwo gucunga umutekano buteye imbere, aho nko gusaka ibinyabiziga bifashisha inyamaswa zatojwe, zikabasha kuba zasaka nk'ibisasu cyangwa se ibindi bintu by'ibiyobyabwenge byaba bitwawe, abantu batabasha wenda guhita babibona bakifashisha izi nyamaswa.

Itsinda ry'abantu bashinzwe umutekano wo mu mazi, bari mu gikorwa cyo gucunga umutekano w'amazi. Bari mu bwato bwabugenewe, bambaye impuzankano z'akazi, bariteguye cyane gucunga umutekano.

Ikinyabiziga gihetse abantu benshi cyane, kitemerewe guheka, bashobora kuba bari kwimuka, hari n'irindi tsinda riri ku ruhande rw'umuhanda, riri kureba icyo kinyabiziga kandi,..

Imodoka yo mu bwoko bwa tagisi, ifite ikirango cya toyota yikoreye ibintu byinshi iri mu kazi cyane, itwaye abantu n'ibintu bya bo, iri kubaha serivisi yo kubatwara, iri mu muhanda urimo ubusitani bwiza.

Ingabo y'igihugu, uyu ni umusirikare cyangwa se ingabo y'igihugu, acunze umutekano afite ibikoresho byose arikwije kugirango abashe gucunga umutekano neza.

Urujya n'uruza rw'abantu, imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, n'izitwara abantu ku giti cyabo, bahuriye mu muhanda nyabagendwa, buri bose mu byerekezo bitandukanye, bajya cyangwa se bava gushaka serivisi zitandukanye.

Imbuga nini cyane izitiye neza irimo inyubako hariya imbere. Inyuma yayo hari icyapa kinini kiranga ibikorerwa muri iyi mbuga kimeze neza. Abafite ibinyabiziga byabo babasha kuza muri iyi mbuga, abashinzwe umutekano bakabarebera ko byujuje ubuziranenge.

Inama yaguye y'umutekano， yitabiriwe n'abantu benshi， inzego nyinshi zitandukanye， harimo inzego za porisi，hamwe n’inzego za gisivire，harimo abaturage， bose baraganira ku mutekano.

Itsinda rinini ry'abantu bicaye hamwe batuje, bari mu nama bungurana ibitekerezo, ku buryo bakwiteza imbere mubikorwa byabo bya buri munsi, barasa neza bafite isuku, kandi bicaye ahantu hakeye.

Itsinda ry'ababyeyi b'abanyarwandakazi bicaye ahantu hamwe bategereje umuntu ubaha ikiganiro cyerekeranye n'ubuzima no kwiyitaho mu bijyanye n'imibererere.

Itsinda ry'abantu bari hamwe bahujwe n'ingingo yo kungurana ibitekerezo bari kuganira. Umwe muri bo afite indangururamajwi, ari kugeza ku bandi ikiganiro cyerekeranye n'ingingo bari kuganiraho.

Itsinda ry'abantu bicaye hamwe mu cyumba cy'inama biganjemo abayobozi, ndetse n'abantu bashinzwe umutekano, bari kugezwaho ubutumwa cyangwa se inama, n'umuyobozi w'iyi nama, bameze neza.

Amayogi, amayogi ni igikoresho gikoreshwa n'ababyinnyi, cyane cyane babyina imbyino gakondo z'umuco nyarwanda, kibasha rero gutanga ijwi rishimisha ndetse rigafasha abacinya akadiho.

Itsinda rinini ry'inka z'inyambo, ni inka z'inyarwanda nziza cyane zifite amahembe meza, zahuriye hamwe n'irindi tsinda ry'abantu, baje mu bikorwa byo kumurika umuco nyarwanda.

Ikibindi cyuzuye neza gisendereye, kiri kubira. Kirimo ikinyobwa bita ikigage cyangwa se umusururu, harimo n'imiheha ifasha abantu baje kunywa uyu musururu, kugira babashe kuwunywa neza.

Itsinda ry'ibikoresho, bikoreshwa cyane cyane mu mata, aho turi kubona ibyansi, ibisabo ndetse n'ibicuba; hari n'abantu bari kubishyira neza ku muronko, ndetse babikorera n'isuku.

Umwuko urambitse ku meza uri mu bwoko bw'indosho cyangwa se umudaho, uyu ni umwuko ubasha gukoresha uri guteka cyangwa se uri kwarura ibiryo wamaze guteka, umwuko ufasha rero guteka neza cyane ibiryo bimeze neza.

Inkoko iboshye neza cyane itatse mu mabara meza y'umweru, n'umuhondo, n'ubururu. Ni inkoko yuzuye, yiteguye kuba yakoreshwa haba n'umuhinzi, cyangwa se n'undi wese wayikoresha mu mirimo yo mu rugo.

Itsinda ry'intore ziri guhamiriza zakereye ibirori, zakereye igitaramo, zambaye neza , zambaye ibishura, zifite ingabo, zifite icumu, zifite amayogi, zambaye n'incunda. Ibi byose ni ibiranga intore nyarwanda.

Abanyarwandakazi bambaye umukenyero babyina imbyino nyarwanda bashayaya, bavuza n'ingoma ,aha bari bari mu gitaramo babyina imbyino zerekeranye n'umuco nyarwanda.

Itsinda ry'inka nziza cyane zitwa inyambo， ziri kumwe n'umushumba wazo uzikenura， zihagaze ku cyanya kiza cyane， aho zibasha gufatira ubwatsi，zigakamwa，zigakenurwa mu buryo bwose.

Imbuga ngari iri mu rugo rugari rwa kinyarwanda rwa kera. Yanitseho umusaruro ukomoka mu buhinzi, iriho n'ikigega, ikigega kera cyakoreshwaga bahunikamo imyaka. Umusaruro wabaga warakomotse ku buhinzi.

Ibirango by'umuco nyarwanda bihuriye ku ifoto, hariho ingabo hariho igiseke hariho icumu, ibi byose ni ibirango byo mu muco nyarwanda.

Ikibindi kirimo ikigage ciza kiryoshye kiri kubira, kirimo n'imihaha ine, aho abantu bahuriye mu birori babasha gusangira iki kigage, bifashishije iyi miheha.

Itsinda ry’abakobwa bambaye neza, bambaye umukenyero cyangwa se umushanana, bagaragiye mugenzi wabo wambaye urugori rutandukanye n’iz’abandi bicaye impande ye, wagize ibirori. Mu muco nyarwanda, iyo umuntu yagize ibirori, yambara umukenyero.

Inkono y'ibumba ,inkono ya kinyarwanda ni inkono ikorwa n'abantu babumba bakoresheje urwondo barangiza bakayitwika nyuma yo kuyiha forume Iteka neza rero, iteka ibiryo bya kinyarwanda n'ibiryo bya kizungu.

Imitako myinshi ihurije hamwe ikoresha intoki, ikoreshwa intoki, ni imitako iri mu mabara meza atandukanye, yerekana umuco nyarwanda, aha ngaha harimo ibyibo, harimo inkangara, harimo n'udutako dutoya, byose bibereye ijisho.

Itsinda rigizwe n'abanyarwandakazi babiri baricaye ku musambi cyangwa se ikirago bari ku kiboha. Nyine imirimo y'intoki mu muco nyarwanda nibyo bakora nyine baboha icyo bita ikirago.

Itsinda ry'abantu bahuriye hamwe mu gitaramo, mu birori, barabyina imbyino z'umuco nyarwanda, barishimye, urabona ko harimo abaririmba, ababyina, abashyayaya, bose bahuriye mu gikorwa cy'imyidagaduro.

Indabo zimeze neza zisa neza cyane mu ibara ry'umutuku z'igiti cyitwa igiko hariho n'urubuto rwacyo. Iki ni igiti kiranga umuco cyane n'amateka yo mu Rwanda.

Itsinda ry'abantu batatu bari hamwe bari gucuranga igikoresho gakondo igikoresho cy'umuziki cyitwa inanga cyangwa se umuduri bari kungurana ibitekerezo by'uko barushaho kunoza neza imicurangire y'iyi nanga.

Itsinda ry'abantu bari mu kazi, mu mirimo y'intoki igaragaza umuco nyarwanda. Bicaye ku misambi itatse amabara meza , bafite ibikembe bambaye umukenyero nk'umuco nyarwanda barasa neza cyane.

Itsinda ry'abantu benshi harimo ingeri zitandukanye harimo abaturage n'abayobozi harimo inzego z'umutekano bose bahuriye mu gikorwa cy'umuganda, aho muri uyu muganda bari gusibura imigenderano.

Itsinda ry'abaririmbyi ni abakecuru basheshe akanguhe, baririmba banakoma amashyi, baririmba imbyino Nyarwanda, bari kuririmbira ababyinnyi bari imbere yabo banabatiza amashyi, kugira ngo babone neza uko bacinya akadiho.

Itsinda ritoya ry'abantu bari mu gikorwa cy'imyidagaduro babiri muri bo bari gukina umukino witwa igisoro ari nako bica akanyota, umwe muri bo yishimiye intsinzi agezeho undi arimo kwishima nawe amufana.

Ikinyobwa cyeze neza mu ruheke rw'amasaka. Abantu babiri bari gusoma, bakoresheje imiheha, barizihiwe bari kwica akanyota k'ikigage kirasa neza cyane, kiraryoshye.

Umucuranzi w'igikoresho gakondo cyitwa inanga cyangwa se umuduri. Urabona ko afite akamwenyu arishimye, ari mu gikorwa cyo gucuranga inanga, ashimisha abamureba na we yishimisha.

Itsinda ry'abana bakiri batoya, bahurijwe hamwe n'umuco bamwe muri bo ni abakaraza baravuza ingoma, abandi bikoreye ibiseke, ibi byose ni ibikorwa biranga umuco nyarwanda.

Itsinda ry'intore ziri guhamiriza, n'ababyinnyi bari kuziririmbira, ndetse n'abakaraza bari kuzivugiriza ingoma. Ni intore rero zimeze neza cyane zishimye, ziri mu mudiho n'umuhamirizo bya kinyarwanda.

Itsinda ry'intore ziri guhamiriza zambaye neza zambaye ibihura, zifite icumu, zifite ingabo, zambaye amayogi, zambaye inshunda. Urabona ko ari abagabo b'ibigango kandi bafite umuhati bameze neza bari guhamiriza.

Itsinda rinini ry'abanyarwandakazi, babyina imbyino z'inyarwanda, umushayayo, babyina bikoreye ibiseke, bakereye ibirori, bambaye neza, bizihije igitaramo.

Itsinda ry'abakaraza bizihije igitaramo, bambaye neza kinyarwanda, bari kuvuza ingoma, mu mbyino nyarwanda, bakereye kwizihiza igitaramo, kandi barishimye cyane.

igitebo ni igikoresho cyifashishwa mu mirimo ya buri munsi yo mu rugo, gikoreshwa mu gusarura imyaka, uyivana mu murima uyigeza mu rugo , kigufashamo imirimo myinshi itandukanye nko gutwara ifumbire, uyivana mu rugo uyijyana mu murima.

Isuka ikwikiye neza n'umuhini mwiza, imaze kugera mu kigero cyo gukura, ikigero cy'agafuni ariko yakoze byinshi. Isuka yifashishwa mu murimo wa buri munsi w'ubuhinzi, aho umuhinzi ayifashisha kugira ngo azagere ku musaruro.

Ibiribwa bya kinyarwanda bihiye biteguye neza cyane. Ni amafunguro aryoshye, uyarebye mu maso arasa neza. Amafunguro yiganjemo ibitera imbaraga nk'ibigori, umutsima, impengeri n'ibindi biryo byinshi bitandukanye.

Itsinda ry' abakaraza bari kuvuza ingoma, urebye uko bambaye urabona ko hari n' intore; abakaraza rero ni abantu bavuza ingoma mu buryo butandukanye, bunogeye amaso, ndetse bunogeye n' amatwi mu muco wa kinyarwanda.

Rwagakoco . Rwagakoco ni igikoresho gikoreshwa hategwa imbeba ziri mu nzu. Imbeba zishobora kwangiza imyaka iri mu nzu ,ni yo mpamvu iyo ziri mu nzu abantu bakunda kuzitega.

Isekuru iri mu kazi kose ko guhinduramo igihingwa cy'umwumbati, ifu yo kwifashishwa hakorwa umutsima. Isekuru n'umuhini umuhinzi abyifashisha kugira ngo abone ifu, yo gukoresha agaburira umuryango we.

Itsinda ry'abantu benshi bari kwita ku musaruro ukomoka ku gihingwa cy'igitoki, bari kwenga ibitoki rero byahiye bagirango bakuremo umutobe, umutobe bazawukuremo urwagwa. Ni imirimo myinshi bisaba kugira ngo igitoki kigere ku musaruro wa nyuma witwa urwagwa.

Umucuruzi wa serivisi z'itumanaho, sososiyete ya mtn, nkuko ikirango cy'umuhondo yambaye kibigaragaza. Ari imbere yintebe nziza ikoze mu migano, arishimye ameze neza ku mutima no ku mubiri.

Umucuranzi w'igikoresho gakondo cyitwa inanga cyangwa se umuduri, ari mu kazi ke ko gucuranga, arimo gushimisha abamugana, baje bamwegereye, ari imbere y'urugo, ari munsi y'igiti kimufasha kubona igicucu.

Icyumba cy’ishuri kigishirizwamo abana bari mu kigero cy’incuke, kiri kurangwa n’imitako myinshi irimo ahangaha, ibikinisho by’abana, ndetse n’amabara meza aranga iki cyumba.

Imbuga ngari kandi nziza iriho urujya n'uruza rw'abantu bambaye neza bafite isuku, iri imbere y'inyubako nini bigaragara ko isengerwamo inyubako nayo isa neza kandi yubakishije amatafari ahiye, irakomeye.

Itsinda rinini ry'abantu bari imbere y'umuryango wa kiliziya. Ni kiliziya nziza cyane iteye amarangi meza, imbuga yayo imeze neza iriho isima ituma irinda ibyondo abantu baje muri iyi kiliziya.

Imashini ikora umuhanda, mu muhanda iyi mashini ikora cyane mu kazi ko gutsindagira umuhanda, iri mu kazi kayo mu muhanda iri gutsindagira, hakurya yayo ikikijwe n'ingo zituye neza cyane mu busitani bwiza.

Ubusitani bwiza cyane. Bwiganjemo ibiti bitanga umwuka mwiza. Kubabutembereramo burimo n'indabo ,burimo n'inyubako nyinshi cyane nziza. Zifite isuku kandi zikeye zifasha ,abaje bazigana kuruhuka neza.

Inyubako nziza cyane, nini, yubatse neza, yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati, imeza neza cyane. Imbere yayo hari imbuga ngari ifite ubusitani bwiza, byohereza abaje kuri iyi nyubako kubona aho bidagadurira no kuruhuka.

Ubusitani bwiza cyane bugizwe n'indabo z'amoko menshi atandukanye burimo n'umucaca buri imbere y'inzu nziza cyane. Inyubako ndende igeretse gatatu isize amarangi meza ndetse irimo n'ibirahuri byiza.

Inyubako nini cyane nziza, yubatse n'amatafari ahiye. Iriho umusaraba nk'ikirango cy'uko iyi nyubako isengerwamo n'abantu b'abakirisitu. Imbere yayo hari ishusho nziza cyane, iriho umubyeyi Bikira Mariya.

Imbuga nini cyane ngari, iteraniyeho itsinda ry'abantu, bari imbere y'inyubako ndende, kandi nziza ifite isuku, bahujwe n'igikorwa cy'inama, bari kungurana ibitekerezo.

Inyubako nziza, inzu nziza ikikijwe n'ibiti bitanga umwuka mwiza ku bari gukorera muri iki gice. Ikorerwamo umusaruro, ikusanyirizwamo umusaruro w'amata, ndetse ikanakorerwamo ibikomoka ku mata.

Imbuga ngari iriho ibikorwa byinshi bitandukanye, igice kimwe kiriho icapa kinini kiranga iyi nyubako, ikindi gice kiriho ishyamba ryiza ry' inturusu rimeze neza ritoshye, ndetse hakurya turahareba urusengero rwiza cyane rwubatse ahitaruye.

Inyubako nini yubatse ku kibanza cyiza, ifite imiryango myinshi, kandi ifite isuku ihagije. Iri mu busitani bwiza buriho imbuga bukikijwe n'ibiti, bibasha guha umwuka mwiza abari muri iyi nyubako.

Urujya n'uruhuza rw' abantu bahuriye ku isantere, aho bamwe baje gushaka serivise zihatangirwa, nko gushaka serivise z'itumanaho, abandi bazana ibicuruzwa bikenewe n'abaguzi n'abagurisha.

Inyubako nziza cyane, inyubako ndende igeretse, isa neza, isize amarangi meza, iri mu busitani bwiza, buteyemo indabo n'umucaca, yakira abantu, urujya n'uruza ruje ruyigana, ruje kuruhuka.

Inyubako nini cyane, nziza, ikomeye, yubakishije amatafari ahiye, irimo ibirahuri byiza bikomeye biteye irangi, imbere yaho hari ubusitani bwiza cyane, ndetse hari n'urukarabiro ku baje bayigana.

Ipoto y'amashanyarazi iriho itara ricanira abagenzi nijoro kumuhanda, ni ipoto imeze neza, ikoze neza, ihagaze neza, inyuzeho n'izindi nsinga nyinshi zibasha guha amashanyarazi abatur age batuye hafi y'iyipoto.

Inyubako nziza cyane ikomeye yubatse neza yubatse n'amatafari ahiye, ifite uburyo bwo gufata amazi ndetse ifite n'urukarabiro abantu bamaze gukarabiramo mbere yo kubinjiza kwinjira muri iyi nyubako. Ikikijwe n'ibiti byiza cyane bitanga umwuka mwiza kubari muri iyi nyubako.

Inyubako nini cyane iri mu kibanza kiza kisanzuye, ifite n ubusitani imbere yayo. Ni inyubako ikorerwamo imirimo yo gusengeramo n'abantu bitwa abakirisitu.

Itsinda ry'abantu benshi bahuriye ku kiraro kinyura mu kirere bambuka, bamwe baragenda abandi bari kuza, bishimiye ko iyi nzira ari iya bugufi ibafasha kwambuka uyu mugezi bari kunyuraho.

Inyubako nziza cyane iri mu busitani bugari yubatse neza ikoreye amasuku ikorerwamo imirimo itandukanye ya Leta, aho ishobora kwifashishwa nko mu kwakira inama, amahugurwa. Ishobora guhuriramo abantu benshi kuko ni nini kandi iri ahantu heza.

Urugomero runini, ikusanyirizo ry'umuriro w'amashanyarazi, aho hagaragara ibikoresho binini cyane bishinzwe gutanga umuriro w'amashanyarazi ku baturage.

Inzu icururizwamo ikawa yamaze gutunganywa ishobora guhita inyobwa iri ku muhanda mugari hari urujya n'uruza rw'abantu baje kwihahira icyo kinyobwa kiryoshye.

Igitanda gisashe neza cyiteguye kwakira abaza ku kiryamaho, ni igitanda gishobora kwakira abantu babiri hasi no hejuru kandi giteretse ahantu heza hafite umutekano.

Itsinda rinini cyane ry'abaturage bahuriye hamwe, bahujwe n'igikorwa cy'umuganda. Bari ku gasantere aho bari gukora igikorwa cy'umuganda, cyane cyane abakora isuku muri iyi santere baharura imigenderano ndetse banahakubura.

Inyubako nyinshi cyane ziri hamwe, ni nziza zubakishije amatafari ahiye, zifite amabati asa neza, zifite imirasire y'izuba abasha gutanga urumuri igihe ari nijoro, ndetse zifite n'ibigega bifata amazi. Urabona ko izi nyubako zujuje ibyangombwa.

Itsinda rinini cyane ry'abantu bambaye neza, basa neza, bahagaze impande y'inyubako nini cyane na yo nziza, ikigaragara ni uko isengerwamo, kuko ifite umusaraba hejuru yayo.

Inyubako nini cyane, yubatse neza, yubakishije amatafari ahiye, irakomeye, iriho icyapa kiyiranga, kivuga ko ari inzu isengerwamo, ya paruwasi ya Regina Pacis.

Inyubako nini cyane ndende nziza yubakishije amatafari ahiye, hejuru yayo hari umusaraba bigaragara ko, ar'inyubako isengerwamo n'abantu b'abakirisitu, ikikijwe n'ibiti byiza bitanga umwuka mwiza ku baje gusenga.

Itsinda ry'abayobozi bari hamwe bambaye bikwije bambaye utugofero mu mutwe tubarinda kuba bagira impanuka bari gusura ahantu hari kubakwa inyubako za leta amashuri.

Imbuga ngari nziza ikoreye amasuku iriho n'amapave yo gukandagiraho, iriho inyubako nziza cyane yubatse neza isize amarangi meza yiteguye kwakira abaje bayigana bashaka kuharuhukira.

Inzu nziza, yubatse neza. Yubatse mu kibanza cyisanzuye, yubakishijwe amatafari ahiye. Irakomeye isakaye neza, ikikijwe n'umurima uhinzemo ibishyimbo bimeze neza. Ni umumero. Ikikijwe kandi n'ishyamba ry'intusi riyiha amahumbezi.

Inyubako nini cyane nziza isa neza, iri ku kibanza kigali. Ikikijwe n'ibiti byiza byinshi, ikorerwamo imirimo itandukanye nk'iy'ubwubatsi, hari n'imodoka nyinshi zifashishwa n'abantu mu mirimo ya buri munsi.

Ibirundo byinshi by'amatafari ahiye hirya yabyo hari umucanga, ibi byose amatafari n'umucanga bikoreshwa mu bwubatsi bw'inzu, ir'impande rero y'aho babibumbira bipanze neza, bitegereje abaza kubigura bakajya kubyubakisha.

Umudugudu ugizwe n'inyubako zitandukanye, ukorerwamo imirimo itandukanye ,aho dusangamo: inzu zo gutura, inzu basengeramo, amaguriro n'amagurishirizo, mbese abaturage bakoramo imirimo yabo ya buri munsi y'ubuhinzi n'ubworozi byose.

Itsinda ry'abantu benshi bahuriye hamwe ku mbuga ngari, biganjemo abaturage b'abagore, n'abagabo bakuze barengeje imyaka cumi n'umunani. Bitabiriye rero ubutumire bahawe n'umuyobozi wabo, aho bari kujya inama bungurana n'ibitekerezo.

Itsinda rinini ry'abaturage benshi bicaye hamwe bakurikiye ubutumwa bw'umuyobozi, bari kungurana ibitekerezo. Harimo umwe ufite indangururamajwi, uri gutanga igitekerezo muri iyi nama.

Itsinda rigizwe n'umubare munini w'abaturage, b'ingeri zitandukanye, bitabiriye inama bari kumwe n'abayobozi babo, bicaye mu busitani bwiza, burimo amahumbezi atangwa n'ibiti bikikije ubu busitani.

Itsinda rinini ry'abaturage bicaye hamwe, bafite isuku, bameze neza, harimo n'inzego zishinzwe umutekano muri aba baturage, zaje kubaganiriza ku bijyanye n'umutekano.

Itsinda ry'abantu benshi bahuriye hamwe bafite indangururamajwi kugira ngo bavugiremo ibyo bashaka kuvuga, batange n'ubutumwa babasha kugeza ku bandi bari hano bari kumwe.

Itsinda rinini cyane ry'abaturage bicaye hamwe, bakurikiye inama bari kugirana n'umuyobozi, baratuje, bambaye neza, bafite isuku. Bakikijbwe n'ibiti byiza birikubaha umwuka mwiza wo guhumeka.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo butari ubwa rusange, irimo umushoferi wayo witeguye kwakira abagenzi, akabaha serivisi nziza. Iriho kandi umurongo w'itumanaho ushobora guhamagara igihe ugiriye ikibazo muri iyi modoka.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abagenzi, aho imodoka, moto n'abantu, bose bahuriye hamwe mu rugendo, mu muhanda baba benshi nyine bituma bibangamira urugendo rwabo ariko bari kugenda buhoro buhoro.

Umucuruzi uciriritse, ucuruza utuntu dukeya ariko tumufasha kwibeshaho buri munsi, acuruza na serivisi z'itumanaho, yicaye ku muhanda, ategereje abaguzi baza guhaha: ubunyobwa, bombo, bisikwi, uturibwa dutoya rero dushobora gufasha umuntu ari ku rugendo.

Inyubako n'inzira bigana ku kibuga cyindege, hari itsinda ryabantu bafasha abagenzi, baje gutega indege, hari ibyapa biyobora abagenzi, ni ikibuga kimeze neza cyane, kandi cyubatse neza cyane.

Itsinda ry'abantu bakora akazi ko gutwara abagenzi bifashishije ikinyabiziga cyitwa moto, bari mu kazi kabo ka buri munsi ko gutwara abagenzi, ukabaha serivisi yo kubageza aho bagiye, nabo bakabishyura amafaranga yo kwifashisha.

Imodoka nini cyane zitwara abagenzi mu buryo rusange zizwi ku izina rya Ritiko, Ni imodoka ihagaze mu kibanza kinini cyiza na cyo, yiteguye gukora akzi ka yo ko gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Umurongo w'imodoka nini zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ziri mu muhanda zose ziriteguye gukora akazi ko gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, zisa neza zisize amabara meza, kandi rwose zibereye gutwara abagenzi.

Imodoka nini nziza y'ubwikorezi yo mu bwoko bw'ikamyo iri mu muhanda, yiteguye gukora akazi kose k'ubwikorezi, irasa neza cyane mu mabara yumuhondo n'umukara, kandi irashoboye.

Itsinda ry'imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, imodoka nini cyane, zibasha gutwara abagenzi bagera kuri mirongo itanu icyarimwe, zihagaze muri gare, zitegereje abagenzi, zikabasha kubageza aho bagana.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku isantere ikorerwaho ubucuruzi baje guhaha bajya gushaka serivisi zihatangirwa, bamwe muri bo baje ku binyabiziga bibafasha mu koroshya urugendo byitwa amagare.

Inzira abagenzi bagenda ku maguru bambukiraho，umuhanda nyabagendwa， igaragazwa n'imirongo y'umweru minini，iciye mu muhanda. Hakurya y'umuhanda，hari imodoka nziza cyane， iri mu mabara meza， y'ibirango byamamaza.

Urujya n'uruza rw'abagenzi baje gutega imodoka，ahategerwa imodoka hazwi ku izina rya Musanze. Hari imodoka zijya mu byerekezo byose，n'abagenzi bajya mu byerekezo byose， kugira ngo babashe kugera aho bajya.

Ikinyabiziga cyo mubwoko bw'imodoka ya Kwasiteri itwara abagenzi muburyo rusange, iyi ni imodoka y'isosiyete itwara abagenzi ya Volucano iri mubwoko bwa Kwasiteri.

Urujya n’uruza rw’abantu bahuriye ku gasantere. Ni isantere yubatse neza cyane, iriho amapave imbere yayo. Bamwe muri bo bafite ibinyabiziga bibafasha kwihuta mu ngendo zabo, byitwa amagare, abandi barimo kugenda n’amaguru.

Irujya n'uruza rw'abagenzi n'ibinyabiziga bahuriye ahaparika imodoka nini zitwara abagenzi ndetse n'intoya. Bahuriye muri gare ya Rubavu baje buri wese kwaka serivisi yo kumugeza aho agiye.

Umushoferi utwara abagenzi mu modoka za rusange, ari mu kazi ari mu muhanda atwaye imodoka arishimye, aragenda aganira nabagenzi, ariko anoza umurimo we agendera ku muvuduko uringaniye.

Imodoka nini zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange， ziri mu kazizi mu muhanda umeze neza cyane wa kaburimbo， zirakora akazi kazo，ziri gutanga serivisi yo gutwara abantu n’ibintu byabo.

Imodoka y'ubwikorezi yo mu bwoko bw'ikamyo ipakiye ibikoresho by'ubwubatsi, iri kumwe n'itsinda ry'abantu bayifasha gupakira no gupakurura ibi bikoresho, iri ku muhanda, iri mu kazi kose, iri gutwara ibi bikoresho by'ubwubatsi.

Imodoka nini cyane yo mu bwoko bwa kwasiteri, imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ni imodoka isa neza isize irangi ryiza ry'umuhondo, ihagaze mu cyapa itegereje gutwara abagenzi.

Imodoka nini cyane itwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Imodoka isa neza mu mabara meza y'umweru. Isa neza yakorewe isuku, ihagaze mu kibanza cyangwa se mu cyanyq aho yiteguye gutwara abagenzi baje bayigana.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye hamwe mu mbuga ngari, harimo imodoka nyinshi kandi nini zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ,buri wese rero arajya mu cyerekezo cye, aho izi modoka zibasha kuhamugeza.

Itsinda ry'ibinyabiziga bitwara abagenzi: bimwe bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ibindi ni mu buryo bwigenga. Biri mu muhanda, biri mu kazi ko gutwara abagenzi, harimo kunoza umurimo wabo bashinzwe.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bahuriye hamwe, ahatetegerwa imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Buri wese arajya mu cyerekezo yifuza kugeramo, abifashijwemo n'izi modoka zitwara abagenzi.

Umusaruro w'igihingwa cy'inyanya wamaze gutegurwa. Wakuwe mu murima, ubu ngubu uri mu modoka iwutwaye ku isoko, aho ubasha kugera ku baguzi n'abagurisha mu buryo bworoshye.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu mu buryo bwa rusange , higanjemo moto . Hari n'urujya n'uruza rw'abagenzi baje gutega , ndetse hari n'imodoka nazo zibasha gutwara abantu zibageza mu byerekezo bagiyemo.

Abanyarwandakazi bifashisha igare mu mirimo yabo ya buri munsi, aho ribafasha gukora imirimo y'urugo, ubungubu bahetse ibyo bavuye guhaha, bifashishije amagare.

Umurongo muremure w'imodoka z'ubwikorezi, zizwi ku izina ry'amakamyoneti, cyangwa se rukururana, ni imodoka rero zibasha kwikorera ibicuruzwa byinshi cyane, zibivana ndetse zinabijyana aho bicururizwa.

Imodoka y'ubwikorezi y'imizigo yo mu bwoko bwa fuso, itwaye umusaruro w'imyaka iwuvanye mu buhunikiro bwawo, iwerekeza ku isoko cyangwa se mububiko, aho uwo musaruro uzabashwa gukoreshwa n'abaturage.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange yo mu bwoko bisi, hari umurongo w'abantu bari kuyinjiramo, kugira ngo ibashe kubageza aho bajya. Batonze umurongo neza nta makimbirane, umwe arinjira, undi akinjira mu bworoherane.

Itsinda ry'abantu bakora ku kibuga cy'indege bafasha abagenzi kwinjira mu ndege, bambaye impuzankano y'akazi hari n'abagenzi baje gutega indege bari gufashwa kuyuriramo, kugira ngo bajye mu rugendo rwabo.

Ikibuga kimeze neza cyane, gifite isuku gikinirwaho umukino wa tennis, kiri imbere y'inzu yubatse neza cyane, ibasha gukingiriza izuba abantu baje kureba umukino wa tenisi.

Umupira mwiza cyane, ufite amabara meza cyane y'ubururu n'umuhondo, ni umupira ukoreshwa mu mukino w'intoki uzwi ku izina rya vore, urasa neza, ababasha gukina voriboro uyu upira urabafasha cyane mu myidagaduro.

Umupira mwiza cyane uri mu ibara ry'umweru, wanditseho amagambo voreboro asobanura ko uyu mupira ukinishwa intoki, ugakinishwa umukino witwa vore.

Umukinnyi ukina umukino w'intoki uzwi ku izina rya basiketi ari mu gikorwa cy'imyitozo aho yishimye cyane, afashe umupira mu ntoki aritegura gutera kugira ngo atsinde igitego.

Itsinda ry'abantu bari hamwe, bakora igikorwa cy'umukino n'imyidagaduro, barishimye cyane, bari gufata ku mazi, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima buzira umuze, ari nako bishimira insinzi bagezeho.

Itsinda ry'abakinnyi batatu bari mu kibuga, bari gukina umukino w'intoki, aho rwose ubona buri wese afite umuhati wo kugira ngo aze gutsinda igitego. Hirya y'ikibuga hari n'abafana baje kureba uyu mukino.

Umukinnyi, umukinnyi witoza imyitozo ngororamubiri, ndetse akanawukina, ni umumukinnyi ubasha gukora imikino y'imyidagaduro cyane, ameze neza ararambutse, afite imbaraga, ahangaha arigusimbuka ubukiramende.

Abakinnyi babiri bari mukibuga, bari gukoresha imbaraga nyinshi cyane bahatana kugira ngo buri umwe abe yabona igitego, abakinnyi rero b'igitsina gore bari gukina umukino w'intoki uzwi ku izina rya basketball, bafite n'abafana benshi cyane bakikije ikibuga cyabo.

Itsinda rinini cyane ry'abafana, bishimye, bahimbawe, bari mu byishimo, baje kureba umukino w'amagare uri kunyura hafi y'aho batuye, hari umukinnyi rero ubirimo neza, uri kuzamuka ku igare, inyuma ye hari n'imodoka, irimo umuntu uri kumutera kuraje.

Umukinnyi witeguye neza cyane, umeze neza, afite ibiro bikeya biringaniye by'umukinnyi, afite umupira mu ntoki bigaragara ko ukinishwa intoki, ariteguye cyane kujya mu kibuga.

Itsinda ry'abantu benshi bahuriye hamwe, bacungiwe umutekano n'abashinzwe umutekano, bahujwe n'igikorwa cy'imyidagaduro aho ubona ko bose bicaye bahanze amaso aho imyidagaduro iri kubera mu kibuga.

Umukinnyi w'umupira ukinishwa intoki uzwi ku izina rya vore, ari gutsinda igitego yasimbutse cyane ari kumwe mu kibuga n'irindi tsinda ryinshi ry'abakinnyi bari gukinana nawe uyu mukino wa voreboro.

Itsinda ry'abakinnyi babiri b'abakobwa bakina umukino w'intoki wo mu bwoko bwa basiketi, bari ku kibuga ahari n'abafana benshi, barizihiwe, bari gukina uyu mukino buri wese ahatana kugira atsinde.

Itsinda ry'abantu, babiri abagabo beza bari mu iguriro ry'ibikoresho bya siporo, harimo nk'imipira yo kwambara, imipira yo gukina imikino yose, barishimye bari kugura ibikoresho byo gukoresha muri siporo.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru futuboro, gisa neza cyane gikoze neza. Kirimo abakinnyi bari gukina ni amakipe abiri ahanganiye igikombe. Hari n'abafana benshi cyane baje kubareba. Umukino w'amaguru ni umukino ukundwa n'abantu benshi cyane.

Abagabo babiri bishimye cyane baramukanyije, bahanye ibiganza, barishimira ibyiza bagezeho muri siporo, baje kugura imipira yo gukina ndetse n'iniforume zo kwambara (imipira) igihe bari gukina.

Ibiganza bibiri, by'abakinnyi babiri batandukanye, bari gukina bose Umupira w'intoki wa basketball. Bose urabona ko bafite umuhati, bari guhatana kugira ngo havemo umwe muri bo utsinda igitego. Umwe ashaka gutsinda undi ari kumuzitira nyine ngo ye gutsinda.

Itsinda ry'abakinnyi babiri b'abagabo bafite imbaraga cyane n'umuhati, bari gukina umukino w'intoki witwa basikete. Bari mu kibuga kiriho abafana benshi baje kubareba, ndetse n'umusifuzi ari iruhande rwabo areba ko nta wakorera undi ikosa.

Itsinda ry'abantu bari mu gikorwa cy'imyidagaduro, mu kibuga kinini. Higanjemo abakinnyi, abakorerabushake, abarindira umutekano, bari mu busitani bwiza bose bahujwe n'igikorwa cy'imyidagaduro.

Itsinda ry'abakinnyi bakina umukino n'imyitozo ngororamubiri, bambaye neza impuzankano, bari mu gikorwa cy'imyitozo; ndetse rwose barishimye. Urabona ko bameze neza kandi biteguye kuzatahana intsinzi.

Itsinda ry'abakinnyi bakina umukino w'intoki uzwi ku izina rya basiketi, bose bari kureba umupira uri hejuru bategereje kugira ngo numanuka bahite bawufata.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bahujwe n'imyidagaduro, bose barishimye bari gufana barikogeza bahujwe n'imyidagaduro.

Itsinda rinini ry'abantu ryaje mu mukino w'imyidagaduro, aho bari kureba abakinnyi bakina umukino w'amagare bari kwitoreza ahantu hagiye hazamutse, hamanutse. Hari ibyishimo byinshi, abantu benshi bashimishijwe no kureba uyu mukino.

Itsinda ry'abantu babiri, bagizwe n'umwana mutoya. Uri guhabwa ishimwe ry'imirimo yakoze neza akayinoza. Rigizwe n'umuntu mukuru kandi umushimira kuba umwana yaragize umuhati. Mu mirimo ,mu nshingano yari ashinzwe gukora.

Itsinda ry'abantu benshi bambaye imyenda isa bari ku murongo, bigaragara ko bari mu gikorwa cy'imyidagaduro, aho bari guhabwa amabwiriza n'umuntu umwe uri imbere yabo.

Umupira ukinishwa intoki witwa basiketi, uri gusohoka mu rushundura batsindiramo igitego cya basiketi, umupira mwiza cyane, ni umukino uryohera ijisho, ari abakinnyi ari n'abafana bakunda cyane uyu mukino.

Itsinda rinini ry'abakinnyi, bakina umukino w'abagamagare, bambaye neza impuzankano zibafasha gutwara igare bisanzuye. Bambaye ingofero zirinda umutwe, mu gihe bagize impanuka. Bari mugikorwa cyabo basanzwe bakora cyo gutwara amagare.

Itsinda ry'abakinnyi bane bakina umukino w'umupira w'amaguru, barishimye cyane bafite ibyishimo bigaragara ko bamaze gutsinda igitego.

Itsinda rinini ry'abantu bicaye ahantu heza, hasa neza, hari mu mabara meza cyane y'umweru n'ubururu, barishimye, urabona ko bafite igikombe mu ntoki zabo, biragaragara ko ari ikipe yatwaye igikombe.

Itsinda ry'abakinnyi bari gukina umukino wa basikete ni amakipe abiri ahanganye aho ubona ko hari umukinnyi wegereye neza aho gutsinda igitego abo muyindi kipe bashaka kumuzitira ngo adatsinda.

Inzu nziza ,yubatse neza, ikoze neza ,isize amarangi ,iri ku isantire hafi y'umuhanda ,umuryango ukinguye ukorerwamo imirimo y'ubucuruzi ,bakinguye biteguye kwakira abaje babagana kugira ngo babahe serivisi.

Imbuga ngari iri ku santere y'ubucuruzi. Hari urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, imodoka ntoya ndetse n'imodoka zo mu bwoko bwa tagisi, hari ikigega gifata amazi, hari n'abantu baje muri iyi santere gushaka serivisi zihatangirwa.

Ikinyabiziga gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ,kiri mu muhanda ,kiri mu kazi kose. Ikinyabiziga cyitwa moto gitwaye umubyeyi ugiye mu kazi ,kiri impande y'urugo rumeze neza ,rufite ubusitani bukeye.